Inama zigira uruhare runini cyane mu guhuza abayobozi n'abayoborwa aho usanga abayobozi basobanukirwa neza ibibazo abaturage bafite, bakaba barebera hamwe n'ibisubizo byabyo ariko kandi bashobora no kureba ibiri kugenda neza bikarushaho gushimangirwa.

Inama ni ingenzi cyane niyo mpamvu abayobora n'abayoborwa bose baba bagomba kwicara hamwe bakaganira mu gihe runaka, bakareba ibigenda neza kugira ngo babishimangire babihe imbaraga kandi n'ibitagenda neza bikaba byakosorwa cyangwa bikavanwaho.

Inama ni ingenzi cyane aho abayobozi n'abayoborwa bahura bakaganira ku byagenze neza ndetse n'ibitaragenze neza bikaba byarushaho gukosorwa, niyo mpamvu bikwiriye y'uko abayobozi bajya bageraho bakegera abaturage kugira ngo bamenye ibigenda neza n'ibitagenda neza.

Inama zigira umumaro munini cyane mu miyoborere, aho abayobozi basobanurira neza abaturage ibigenda neza ariko kandi bakanavuga no ku bitagenda neza kugira ngo barusheho kubirebera hamwe uburyo byakosorwa.

Inama zigira umumaro munini cyane mu miyoborere aho abayobozi bo ubwabo bashobora kwicara bakungurana ibitekerezo bakareba ibitagenda neza hagamijwe kubikosora ndetse n'ibigenda neza bigakomeza gushimangirwa.

Mu nama abantu benshi batanga ibitekerezo, aho buri wese ashobora kuvuga ikibazo afite cyangwa se akavuga uko yumva ibintu bityo bakaba bafatira hamwe umwanzuro ibyo bagomba gukora biratuma habaho iterambere ndetse n'ibyo bagomba guhagarika kubera yuko bitari byiza ku baturage.

Inama ni ingenzi cyane, aho abayobora n'abayoborwa baba bagomba kwicara, bakarebera hamwe ibitagenda neza kugira ngo bikosorwe kandi bakanareba n'ibiri kugenda neza, bityo bakabishimangira bakabiha imbaraga.

Inama ni ingenzi cyane, kubera y'uko zituma abayobozi bo ubwabo bicara hamwe, hagamijwe kureba ibitagenda neza kugira ngo bikosorwe, kandi hakaba hagamijwe no kureba ibyagenze neza kugira ngo bihabwe imbaraga birusheho gushimangirwa.

Inama ni ingenzi cyane kubera yuko zituma abayobozi bungurana ibitekerezo, bakarebera hamwe icyo bakora cyatuma habaho gutera imbere k'Igihugu cyangwa se agace runaka. Ikindi kandi barebera hamwe ibigenda nabi kugira ngo bikosorwe n'ibigenda neza bikarushaho gushimangirwa.

Inama ni ingenzi cyane aho abayobozi bashobora kuba bamenya neza ibibazo biri mu bayoborwa, ariko kandi bakaba barebera hamwe ibigenda neza bikarushaho gushimangirwa, bakaba banareba neza ibitagenda neza bityo bikaba byakosorwa kugira ngo harusheho kubaho imiyoborere myiza.

Inama zigira umumaro munini cyane mu gutuma abantu basusuruka, aho usanga mu gihe inama iri bukorwe hategurwa nk'itsinda runaka riri buze kuba ryabyinira abashyitsi cyangwa se rikabasusurutsa binyuze mu buryo butandukanye.

Inama ni ingenzi cyane kubera yuko zituma abayobozi bo ubwabo bicara bakarushaho gufata ibyemezo bifitiye abayoborwa umumaro ndetse bakarushaho kureba ibitagenda neza kugira ngo bikosorwe n'ibigenda neza bigahabwa imbaraga kandi zigashimangirwa.

Inama ni ingirakamaro cyane kubera yuko zituma abayobozi bicara bagategura neza icyakorwa ariko mu nyungu z'abayoborwa. Ni ngombwa yuko bicara bakareba ibigenda neza bikarushaho gushimangirwa ariko bakareba n'ibiri kugenda nabi, hagamijwe kuba byakosorwa nabyo bikagenda neza.

Inama ni ingenzi cyane. Aho usanga abayobozi n'abayoborwa bahurira hamwe bakareba neza ibigenda neza kugira ngo birusheho gushimangirwa ariko kandi bakareba n'ibigenda nabi kugira ngo barusheho kuba babikosora cyangwa se bikurwemo.

Inama ni ingenzi cyane aho abayobozi bahura bakicara bakaganira neza bakareba ibiri kugenda neza kugira ngo bishimangirwe ariko kandi bakareba n'ibitari kugenda neza hagamijwe kugira ngo bibe byakosorwa ndetse bihabwe n'umurongo mushya kandi muzima.

Umuco ni ingenzi ku bantu bose ahantu hose. Aho usanga buri bantu bose bafite umuco ubaranga ariko utandukanye n'uw'ahandi, ariko ibyo bikunda kuba bihuye n'amateka yabo baba baranyuzemo, cyangwa se uburyo abakurambere bari babayeho.

Umuco nyarwanda urihariye cyane aho usanga abasore babyina bagaragaza ubutore, abakobwa nabo bakabyina bagaragaza agaciro k'inka zacu dufite mu Rwanda z'inyambo.

Mu buzima busanzwe, buri gace kagira umuco wako, aho usanga buri gihugu kigira umuco wacyo ugitandukanya n'ikindi gihugu, turebeye nko mu Rwanda, mu Rwanda habamo imbyino gakondo ndetse n'iyindi mico itandukanye, ibyo byose bikadutandukanya n'ibindi bihugu.

Umuco ni ingenzi cyane ahantu hose aho usanga buri gihugu cyangwa se buri gace bafite umuco ubaranga ariko uwo muco ukaba ufite icyo uhuriyeho n'amateka yabo.

Umuriro w'amashanyarazi ni ingenzi cyane ku buzima bwa muntu, ariko kugira ngo uboneke, haba hasabwa ibikoresho byinshi cyane bitandukanye, bizatuma uwo muriro uboneka ufite ingufu, bityo ukaba wafasha abantu mu bikorwa bitandukanye.

Umuriro w'amashanyarazi ugomba guhabwa ingufu. Niyo mpamvu mbere y'uko abaturage bahabwa umuriro, leta iba igomba kubanza ikareba neza niba ibyangombwa byose bizatuma abaturage bacana umuriro ufite ingufu bihari ariko kandi bikanakorwa n'abantu babihuguriwe kugira ngo hirindwe kuba habamo impanuka.

Amashanyaraza ni ingenzi cyane bityo ni ngombwa yuko abayakoramo baba barabihuguriwe bazi kubikora neza kugira ngo twirinde kuba haba impanuka cyangwa se inkongi z'umuriro zitewe no kuba ibyo bintu bitarakozwe neza ngo bikorwe n'ababihuguriwe.

Umuriro w'amashanyarazi utanga akazi. Aho usanga abantu benshi batandukanye, harimo abagore, abagabo, abasore n'inkumi, babona akazi igihe ahantu harimo hakirwa umuriro w'amashanyarazi.

Kugira ngo umuriro w'amashanyarazi uboneke, bisaba kugira ngo hakoreshwe ibikoresho byabugenewe ariko kandi n'ababikoramo babe barabihuguriwe kugira ngo hirindwe kuba habamo impanuka cyangwa se ngo umuriro ube udafite imbaraga.

Umuriro w'amashanyarazi utuma abantu babihuguriwe babonamo akazi, mu kubaka iminara ndetse n'ibindi bikorwaremezo bizatuma umuriro uboneka kandi abantu bagacana nta nkomyi.

Umuriro w'amashanyaraza ni ingenzi cyane ku bantu bose. Niyo mpamvu abakora mu bigendanye n'uwo muriro, baba bagomba guhabwa ibikoresho bitandukanye bazifashisha, hagamijwe kugira ngo umuriro ugere ku bantu bose kandi ufite ingufu.

Kugira ngo umuriro w'amashanyaraza uboneke, hakoreshwa ibikoresho byinshi bitandukanye ariko kandi bikomeye. Ikindi kandi haba hasabwa abakozi babihuguriwe, bazi kubikora neza bityo abaturage bakaba babona umuriro ufite imbaraga.

Gukora mu bijyanye n'umuriro w'amashanyaraza bisaba ubuhanga bwinshi, niyo mpamvu ababikoramo bagomba guhabwa amahugurwa, ikindi kandi biba bisaba ibikoresho byabugenewe bari buze gukoresha nko mu gihe barimo burira amapoto kugira ngo barusheho kuba bakora akazi kabo neza.

Umuriro w'amashanyarazi ni ingenzi mu buzima bwa muntu. Aho usanga abantu bawukoresha mu buryo butandukanye. Bamwe bawukoresha kugira ngo babone urumuri mu ngo zabo, abandi bakawukoresha mu tuzi dutandukanye cyane cyane udukenera kuba bakoresha mudasobwa cyangwa se amatelefone bityo rero abantu bose bakaba bifuza kugira umuriro mu ngo zabo.

Kubaka ibicumbi ni gahunda yazanywe na Leta hagamijwe kwigisha abantu indangagaciro nyarwanda harimo nko gukunda Igihugu, gukunda umurimo, gusigasira ibyagezweho ariko kandi hagamijwe no kwigisha abantu kirazira harimo nko kuba hazira kugambanira Igihugu cyangwa se kugira ingengabitekerezo ya jenoside.

Inyubako za leta zigira umumaro ku baturage cyane. Aho leta ishobora gushyira imbaraga mu kubakira abatishoboye bakabubakira inzu nziza zo kubamo, bityo bikabarinda kuba babaho batagira aho babarizwa, batagira aho bataha, cyangwa se aho baryama.

Inyubako za Leta harimo nk'ibitaro, bijya bigira umumaro cyane ku baturage kubera y'uko babigana iyo barwaye bityo bakaba barushaho kubona ubuzima ndetse bakagirwa n'inama z'uburyo babaho neza.

Ibikorwa remezo ni byiza mu banyarwanda aho usanga Leta y'u Rwanda ishimangira kubaka ibikorwa remezo bitandukanye, harimo nk'amashuri ndetse n'ibyapa bigiye bitandukanye biba bigaragaza indangagaciro z'abanyarwanda, harimo nko gukunda igihugu, kurandura ingengabitekerezo ya jenoside, gusigasira ibyagezweho n'ibindi.

Amasoko adufatiye runini kubera yuko adufasha kuba twahaha icyo dukeneye icyo ari cyo cyose kandi akadufasha no kuba twagurisha. Ni byiza yuko twakagombye kugira abashoramari benshi, bashobora kuba bakora igikorwa cyo kugurisha ibicuruzwa kugira ngo tubone aho duhahira.

Amavuriro ni ingenzi cyane aho bifasha abaturage kubona ubutabazi bw'ibanze byihuse bidasabye kuba bahita bajya ku bitaro. Ikindi kandi bibafasha kuba bakwisuzumisha bakamenya uburwayi bafite, aho ngaho baba batabushobora bakoherezwa ku bitarura.

Umupaka hagati y'igihugu n'ikindi uba ugomba kubakwa kugira ngo buri gihugu kimenye ubuso bwacyo n'aho kigarukiye ndetse n'abandi nabo bamenye ahabo, ikindi kandi byorohera abaturage kumenya aho baherereye, bakamenya neza n'uburyo bashobora kuba bajya mu kindi gihugu.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kubakira abatishoboye ndetse n'abatagira aho babarizwa amazu yo kubamo, bityo bikagabanya utujagari ndetse no kuba abantu babaho bameze nk'inzererezi.

Inyubako za Leta harimo nk'ibiro by'imidugudu ni ingenzi cyane kubera yuko bifasha abaturage kumenya aho babariza ubuyobozi igihe bahuye n'ikibazo cyangwa se igihe bakeneye ubujyanama.

Inyubako za Leta ni ingenzi cyane aho usanga abaturage bazigana, kugira ngo bakemurirwe ibibazo baba bahuye na byo bahabwe ubutabera, cyangwa se bahabwe inama z'uburyo barushaho kugira ubuzima bwiza.

Leta yubatse amavuriro mu tugari igamije kugira ngo abaturage barusheho kugira ubuzima bwiza, aho usanga iyo umuturage arwaye ahita agana iryo vuriro bakamuvura akaba yakira ariko kandi atakira akaba yakomeza akajya ku bitaro bikuru.

Amavuriro adufatiye runini cyane aho usanga abaturage bivuriza hafi yabo bitabasabye kuba bajya ku bitaro. Ibyo ngibyo rero bituma ntawurembera mu rugo kuko igihe icyo ari cyo cyose yagana ivuriro agahabwa ubujyanama cyangwa se akaba yavurwa igihe atameze neza.

Ubutabera no kubahiriza uburenganzira bwa muntu ni ingenzi cyane kubera y'uko ibyo bidufasha guca umuco udahana ndetse bigakuraho no kuba abantu bakora ibyaha nkana kubera ko bazi y'uko batari bukurikiranwe.

Leta y'u Rwanda ifatanyije n'inzego z'umutekano, yashyize imbaraga mu kwigisha abaturage ibigendanye n'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera, basobanurirwa neza uburyo igihe umuntu ahuye n'ihohoterwa, ashobora kuba yatanga ikirego cy'iwe bityo agahabwa ubutabera.

Ubutabera ni ingenzi cyane hagati mu bantu. Akenshi ubutabera bushimangirwa hagamijwe kugira ngo habeho kurengera ubuzima bwa muntu cyangwa se gushimangira uburenganzira bwa muntu. Niyo mpamvu bikwiriye yuko buri umwe wese agira uruhare mu gushimangira uburenganzira bwa muntu ndetse no kugira uruhare mu kwamagana ibikorwa bishobora gutuma habaho...

Ubutabera no kubahiriza uburenganzira bwa muntu ni ingenzi cyane. Bityo rero, Leta igomba gushyira imbaraga mu gushishikariza abantu kubaha uburenganzira bwa muntu ndetse no gushimangira ubutabera. Ikindi kandi, Leta igomba gushyira imbaraga mu guca umuco wo kudahana.

Ubutabera no kubahiriza uburenganzira bwa muntu bigomba gushyirwamo imbaraga hagamije guca umuco wo kudahana ndetse no gutuma abantu babaho bishyira bakizana, bumva nta mpungenge z'ubuzima bafite kandi bumva yuko bashyigikiwe ntawabagirira nabi.

Ubutabera no kubungabunga uburenganzira bwa muntu, bigomba gushyirwamo imbaraga mu gihugu hose. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda, yahagurukiye kwigisha abantu ibigendanye n'ubutabera ndetse no kwirinda ibyaha bitandukanye ndetse n'uburyo igihe hari uwagaragaweho ikosa ryo kwica uburenganzira bwa muntu agomba guhanwa.

Ubutabera ndetse no gushimangira uburenganzira bwa muntu, biba bigomba kwigishwa abaturage. Aho abaturage baba bagomba kuganirizwa uburyo bahabwa ubutabera igihe bahuye n'ihohoterwa ariko kandi bakaba banasobanurirwa neza igihe umuntu yakoze ikosa igihano ahabwa.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu guharanira uburenganzira bwa muntu ndetse no gushimangira ubutabera, aho usanga abayobozi bakorana bya hafi n'abaturage kugira ngo barusheho kumenya neza ibibazo bafite n'uburyo babibonera ubutabera.

Ubutabera ni ingenzi mu Banyarwanda aho usanga ubutabera bukorwa hagamijwe gusigasira uburenganzira bwa muntu ndetse no kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose bityo rero ni byiza yuko Leta ishyiramo imbaraga kugira ngo ubutabera bukomeze bwimakazwe mu gihugu.

Ubutabera no kubahiriza uburenganzira bwa muntu, bigomba gushyirwamo imbaraga cyane. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda ihuza abaturage mu nama, igamije kubasobanurira neza akamaro k'ubutabera ndetse n'uburyo habaho kubahiriza uburenganzira bwa muntu.

Ubuyobozi bw'u Rwanda bwifatanyije n'inzego z'umutekano bwiyemeje kurwanya ibikorwa byose bituma abantu barenganywa ariko kandi bashyiraho n'ingamba z'uburyo abantu babona ubutabera ndetse n'uburyo uburenganzira bwa muntu bwarushaho gushimangirwa bugahabwa imbaraga.

Ubutabera no guharanira uburenganzira bwa muntu bigomba gushyirwamo imbaraga cyane mu Rwanda. Aho nk'abantu bakekwaho cyangwa se bakoze jenoside bagomba gucirwa imanza kugira ngo turusheho guca umuco wo kudahana ndetse no guharanira uburenganzira bwa muntu.

Gushimangira ubutabera ndetse no kubungabunga uburenganzira bwa muntu, ni ingenzi cyane, kubera yuko bidufasha guca umuco wo kudahana, ndetse n'abantu bakabaho badahangayitse bumva yuko bashyigikiwe, kandi nta wababagirira nabi.

Ubutabera mu rwanda ni ingenzi cyane, bityo rero leta y'u rwanda yashyize ingufu mu kurenganura abantu barengana, ndetse no guca imanza zitabera no gushyigikira uburenganzira bwa muntu, hagamijwe kwimakaza umuco wo guhana umuntu wese wagaragarwaho no kuba yahohoteye umuntu uwo ari we wese.

Ubutabera no guharanira uburenganzira bwa muntu ni ingenzi cyane. Niyo mpamvu leta yashyize imbaraga mu gusobanurira abantu ibigendanye n'uburenganzira bwabo ndetse n'aho bashobora kuba babonera ubutabera, igihe uburenganzira bwabo butubahirijwe ndetse n'ibihano bihabwa umuntu warenganije uwundi.

Ubutabera ndetse no kubungabunga uburenganzira bwa muntu bigomba gushyirwamo imbaraga hagamijwe guca umuco wo kudahana ndetse no gutuma abantu babaho bafite amahoro n'umutekano kandi batuje, niyo mpamvu abayobozi baba bagomba kuganiriza abaturage uburyo izo gahunda zigomba gukorwamo hagamijwe kugira ngo abantu babeho neza.

Polisi y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gusobanurira abaturage, uburenganzira bwa muntu ndetse n'uburenganzira bw'umwana, ikindi kandi yabasobanuriye uburyo ki ubutabera bukorwa ndetse n'uburyo umuntu yatangamo ikirego cye, igihe arimo arenganywa, bityo akarenganurwa.

Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu gihumbi kimwe magana acyenda mirongo icyenda na kane yatumye Leta ifata ingamba zo gushimangira ubutabera no guca umuco wo kudahana ariko kandi hakitabwa ku burenganzira bwa muntu kugira ngo irenganwa ndetse n'iyicarubozo bitazagaruka.

Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na kane, yatumye abari Abatutsi bo muri Nyagatare bajugunywa banicirwa ku mugezi wa Muvumba, na n'ubu turacyabibuka cyane kandi turabazirikana, ikindi kandi hakomeje gukurikiranwa ababa baragize uruhare muri iryo yicwa ry'abo bantu.

Mu buzima busanzwe tugira ingendo zitandukanye ariko kandi nidukunze kugenda n'amaguru ahubwo tugenda n'imodoka. Niyo mpamvu umugenzi aba agomba kumenya imodoka ari bugendemo, akamenya n'ikirango cyayo bityo bikamworohera kutayobagurika cyangwa se kutamenya iyo ari kwerekeza.

Iyo imihanda yubatswe neza biradufasha, aho usanga hari nk'ibyapa bigaragaza aho umuntu yahagarara, aho imodoka zihagarara, cyangwa se ahantu umuntu ashobora kuba yahurira n'ikibazo. Ibyo bidufasha kuba twakwitwararika tukirinda, bityo impanuka ntizibeho kenshi.

Imihanda ya kaburimbo ni ingenzi cyane kubera kubera yuko idufasha cyane cyane mu ngendo zitandukanye kandi ikaba igenda ihuza imihanda itandukanye bityo umuntu akaba adashobora kuyoba cyangwa se ngo yitiranye urugendo afite n'urundi.

Imihanda ni ingirakamaro cyane mu buzima bwacu niyo mpamvu igomba kuba yubatse neza yubakanye ubuhanga hagaragazwa uburyo imodoka zigomba kunyuramo ariko kandi hakaba hari n'utuyira tw'abagenzi kugira ngo turusheho kwirinda impanuka.

Imihanda yubatse neza igira umumaro munini cyane, mu kuba abantu bagenda ingendo zitandukanye nta kuyoba, kandi bikadufasha no kuba twakwirinda impanuka kubera yuko buri umwe umwe wese aba asobanukiwe uburyo agomba kugenda mu muhanda.

Kubaka ibicumbi ni gahunda ya Leta. Iyi gahunda iba igamije kugira ngo abaturarwanda bose, ndetse n'abandi, bigishwe indangagaciro nyarwanda, ndetse bamenye neza na kirazira.

Imihanda iyo yubatswe neza idufasha kuba twakwirinda impanuka, aho usanga hari utuyira tw'abagenzi bagomba kunyuramo ndetse hakaba hari n'aho imodoka zigomba kunyura bityo bikaturinda kuba twasakiranira hagati bishobora gutuma habaho impanuka.

Umutekano ni ingenzi cyane ni yo mpamvu Leta y'u Rwanda igomba gushyira imbaraga mu kuba hakwimakazwa umutekano mu nshe zitandukanye zose z'igihugu kugira ngo Abanyarwanda barusheho kubaho mu buzima batuje kandi bumva yuko bafite ikizere k'ejo hazaza kandi ko ibyo bakora byose bizabageza kure.

Igikorwa cy'umuganda ni ingirakamaro cyane mu muco nyarwanda. Aho usanga abanyarwanda bose bahurira hamwe, bagahuriza umutima ku gukora igikorwa runaka, ibyo bigatuma leta igabanya amafaranga yari bugisohoremo.

Umuganda ni igikorwa gihuza abanyarwanda muri rusange. Bakaba baganira, bakamenyana, bakungurana ibitekerezo ndetse bakaba banakundana bityo bakaba bafatanya mu bikorwa bitandukanye, bakamenya n'ikibazo buri muntu umwe wese afite akaba yahabwa ubujyanama.

Umuganda ni igikorwa kiza cyane gihuza abaturage, aho baganira ariko kandi bagakora n'ibikorwa bitandukanye bishobora gutuma Igihugu cyacu gitera imbere ndetse n'amafaranga Leta isohora akagabanuka.

Ibikorwa bihuriza abaturage hamwe ni ingenzi cyane. Urugero nk'umuganda aho usanga abaturage babyitabiriye bakarushaho kuganira kumenyana ndetse buri muntu wese akamenya ikibazo cya mugenzi we, bakanafashanya kandi bakabana mu mahoro.

Umutekano ni ingenzi ku buzima bwa muntu. Ni yo mpamvu Leta y'u Rwanda ifatanyije n'inzego za polisi ndetse n'iza gisirikare baharanira kugira ngo Abanyarwanda babeho mu mutekano, binyuze mu kubungabunga uburenganzira bwa muntu no guhana uwakosheje.

Umuganda ugira uruhare runini mu kubaka igihugu. Aho abaturage bahura bagakorera hamwe baganira, bungurana ibitekerezo ndetse bakarushaho no gukundana buri wese akamenya ikibazo undi afite n'uburyo cyakemurwa.

Igikorwa cy'umuganda ni ingirakamaro cyane. Niyo mpamvu buri munyarwanda wese aba agomba kukictabira aho abanyarwanda muri rusange, bahurira bakaganira ndetse bakanakorera hamwe ndetse bigafasha n'igihugu cyacu kugabanya amafaranga asohoka akora ibyo bintu.

Leta yashyize imbaraga mu kubaka ibibuga by'umupira w'amaguru, hagamijwe gushyira imbaraga mu gushishikariza abantu kwitabira imyitozo ngororamubiri kuko ituma abantu babaho neza ndetse bagakira n'uburwayi butandukanye.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane kubera yuko idufasha nko kuba twaruhuka igihe tunaniwe, ikindi kandi ikadufasha no kuba twakira nk'indwara zitandukanye harimo nk'umubyibuho ukabije kandi abandi babonamo n'akazi aho bashobora kuba bakwitabira n'imikino y'umupira w'amaguru cyangwa se amarushanwa yandi atandukanye.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane kubera yuko ituma abantu baruhuka mu mutwe, cyangwa se igatuma n'abantu birinda indwara nyinshi zitandukanye harimo nka diyabete cyangwa se umubyibuho ukabije. Ni ngombwa yuko abantu bose dukunda imyitozo ngororamubiri.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kubaka ibibuga by'umupira w'amaguru igamije kugira ngo abantu barusheho kwitabira gukina umupira w'amaguru ndetse n'indi myitozo ngororamubiri, si n'ibyo gusa kuko ako kazi ko gukina umupira w'amaguru gatuma abantu babona ku mafaranga ariko kandi bakagira n'ubuzima bwiza.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane aho usanga abantu bamwe na bamwe batunzwe nabyo, bamwe bitabira umupira w'amaguru, abandi bakajya mu marushanwa yaba ayo kwiruka cyangwa se ay'amagare, ibyo bigatuma babona ku gafaranga. Ikindi kandi bituma abantu bagira umubiri muzima bityo bakarushaho kubaho neza.

Abakinnyi b'umupira baba bafite byinshi bahuriyeho. Aho usanga abantu bahujegroupe bakinamo baba bafite imyenda isa, inkweto zisa bibaranga, bityo bikakorohera kuba batandukanya groupe iri gukina n'indi.

Gukina umupira bibeshejeho benshi, aho usanga abawukina bashobora kwitabira amarushanwa atandukanye, agatuma babona amafaranga ababeshaho muri ubu buzima. Ikindi kandi si amafaranga gusa kuko nabo ubwabo babasha kubona ubuzima bwiza, bityo bakabaho neza.

Gukina umupira w'amaguru bijya bigira umumaro munini cyane aho usanga nk'abakinnyi bawo bashobora kuba bajya mu makipe atuma bajya kurushanwa, ayo marushanwa bayatsinda bakaba babona amafaranga. Ikindi kandi bibafasha kuba bagira ubuzima bwiza, bakabaho bishimye kandi bazira uburwayi.

Mu gihe hari gukorwa amarushanwa mu muhanda ni ngombwa ko Polisi iba irimo kugira ngo igende ikangurira abaturage kuvamo kugira ngo hatagira impanuka zikorerwamo bitewe no kuba ayo marushanwa ari kubera muri uwo muhanda.

Siporo ni ingirakamaro cyane, kubera yuko ituma abantu basusuruka bakishima ndetse bakabana neza, ikindi kandi bituma abantu bakira indwara nyinshi zitandukanye zaba iziterwa n'umubyibuho cyangwa se n'umuruho.

Gukina umupira bigira umumaro mwinshi aho usanga abakinnyi babo bashobora kuba bakwitabira amarushanwa atandukanye, bityo bakaba babona amafaranga, ikindi kandi iyo myitozo ibafasha kugira ubuzima buzima ndetse no kuba baruhuka rwose bakabaho bishimye.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi ku buzima bwa muntu. Aho usanga abantu benshi bayitabira, bityo bigatuma bagira ubuzima bwiza, bakaruhuka kandi bakaba bakira n'uburwayi butandukanye, harimo nk'Amadiyabete cyangwa se umubyibuho ukabije.

Siporo ni ingenzi ku buzima bwa muntu. Aho usanga siporo yifashishwa, mu kuba yatuma abantu bagabanya siteresi, kuba haba kugabanyuka k'umubyibuho, ndetse no kuba abantu bakwishimana hagati ubwabo, ndetse bakaba bagira uruhare no mu marushanwa agiye atandukanye, bitewe n'ubunararibonye babifitemo.

Abana b'abahungu bakunda kubyiruka bakunda gukina umupira ariko kandi gukina umupira ni umwe mu mwitozo ngororamubiri utuma abantu bagira ubuzima bwiza bakaruhura intekerezo zabo ndetse bakaba bakwirinda n'indwara zitandukanye harimo n'umubyibuho ukabije n'izindi.

Ababyeyi na bo baba bagomba gusobanurirwa neza umumaro w'imyitozo ngororamubiri. Bityo bibaye ngombwa na bo bagomba kujya bayitabira kuko bibafasha kuba baruhuka kandi bikaba byabafasha no kwirinda indwara zitandukanye.

Gukina umupira w'amaguru bitungishije benshi, aho usanga abawukina, bashobora kuba bakwitabira amarushanwa, bityo bigatuma babona amafaranga, ikindi kandi leta ishyira imbaraga mu kubaka ibibuga bitandukanye kugira ngo abantu bajye babona aho bidagadurira, baruhukire igihe barimo bakina umupira.

Urubyiruko rwitabira cyane imyitozo ngororamubiri, aho usanga bitabira gukina umupira bakawukina bagamije kwishima ariko kandi bikabafasha no kugira ubuzima bwiza no kuba bakwitabira amarushanwa atandukanye.

Gukina umupira w'amaguru, ni imwe mu myitozo ngororamubiri, aho usanga urubyiruko rwinshi, cyane cyane abasore, bakunda gukina umupira, bagamije kugira ngo bishime banezererwe ndetse banaruhuke mu mutwe, igihe barushye.

Imyitozo ngororamubiri igira umumaro cyane ku buzima bwa muntu kubera yuko bidufasha kuba twakwirinda uburwayi nk'umubyibuho ukabije ikindi kandi bidufasha kuba twaruhuka mu mutwe igihe twarushye bityo tukarushaho kugira ubuzima bwiza.

Gukina umupira w'amaguru bibeshejeho benshi, aho usanga abawukina, bashobora kwitabira imikino itandukanye, batsinda bakaba bakwegukana igikombe, si n'ibyo gusa kuko bo ubwabo bibafasha kugira ubuzima bwiza, bakabaho bishimye kandi ubuzima bwabo buzirana n'uburwayi.

Iyo bubakwa imihanda bubaka n'utuyira turajya tunyurwamo n'abantu bagenda n'amaguru, ibyo babikora hagamijwe kugira ngo hirindwe impanuka, zishobora guterwa no kuba abantu badafite aho kunyura bityo bagahurira mu muhanda n'imodoka.

Ni byiza cyane yuko hubakwa imihanda myiza ifite uruhande imodoka zigomba kugendamo ariko kandi hakaba hari n'utuyira tw'abagenzi, ibyo bizadufasha kwirinda impanuka mu muhanda.

Utuyira n'imihanda yo mu cyaro, ni ingenzi cyane nubwo kuyinyuramo biba bitoroshye, aho usanga iba igizwe n'ibitaka. Igihe rero imvura yaguye, bigora kuyinyuramo kuko haba hanyereye, bityo rero ni ngombwa yuko na yo yakwitabwaho.

Imihanda yo mu cyaro na yo ni ingenzi cyane kuko ikoreshwa n'abaturage bakayinyuramo bajya ku mavuriro, bajya ku mashuri, mu masoko ndetse bakanayinyuramo kugira ngo bagere mu mihanda nyabagendwa iri hejuru cyane.

Imihanda n'utuyira ni ingenzi cyane kubera yuko, imihanda idufasha kuba twagenda ingendo zitandukanye ariko cyane cyane hifashishijwe imodoka, cyangwa se abantu barimo bagenda n'amaguru, ikindi kandi utuyira natwo dufasha abaturage kuba batunyuramo bikaba byakuraho n'impanuka nyinshi zitandukanye.